Akagare gato cyane, kifashishwa n'abana b'inshuke gafite amapine atatu ndetse gafite n'agataka hejuru kugira karinde urimo izuba.

Ingofero ebyiri z'urugara zigerekeranije iy'umweru iri hasi, ndetse iy'umuhondo igeretse hejuru yayo biteretse ku gikoresho kitagaragara neza.

Igitabo cyifashishwa n'abanyeshuri harimo urupapuro rushushanyijeho inyamaswa zigiye zitandukanye arizo inka, urukwavu, injangwe ndetse n'ifi.

Abana bane bahagaze, bambaye impuzankano, buri wese afite urupapuro ruriho inkuru ishushanyije, umwe ari imbere yabo, arimo arabasobanurira iye yashushanyije.

Abana babiri b'umuhungu nuw'umukobwa barafatanye umwe ari gukurura undi amujyana ku gikoresho kibari imbere bifashisha bakiniraho.

Abana bato bo mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano zisa, bari ku mirongo bambaye ngofero zikoze mu bipapuro, bahagaze imbere y'ishuri ryabo bari kumwe n'abarimu babo bambaye amataburiya y'umweru.

Udukinisho tw'abana twifashishwa mu mashuri y'inshuke dufite amashusho y'inyamaswa, utundi dufite amashusho y'igi, utundi tumeze nk'udutenesi turi mu gashashi.

Icyumba k'ishuri kirimo ameza arambitseho ibitabo byinshi bigiye bigerekeranyije, hakaba n'andi ateretseho ibikapu by'abanyeshuri bigiye bitandukanye, harimo n'intebe z'umweru bifashisha bicaraho.

Icyapa kinini gishinze mu byatsi kiriho amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi, umukara, umutuku ndetse n'ubururu kiranga amerekezo y'ishuri rya Noah ARK intanashonoru sukuru.

Inyubako yshuri iri ahantu hitaruye yonyine, nyuma yayo ikikijwe n'ibiti, ifite agahanda k'igitaka k'amaguru, kazengurutswe n'ibirabyo, harimo umwana wambaye umwambaro w'ishuri, ishati y'umweru, ijipo y'ubururu, arimo kuva ku ishuri.

Urukuta runini rw'ishuri rusize ibara ry'umuhondo hashushanyijeho igishushanyo mu ibara ry'umukara kifashishwa n'abanyeshuri bigiraho ibice by'amagufa bigize umuntu.

Agakapu kanini gafite ibara ritukura, inyuma wometseho agapupe kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, kifashishwa n'abana b'abanyeshuri batwayemo ibikoresho byo mu ishuri.

Umwana mutoya wambaye udukweto tw'umutuku ikabutura y'icyatsi, n'ishati y'umweru arimo aragenda mu gahanda gashashemo amabuye arimo ajya ku ishuri, ajya aho abandi bana bicaye.

Igikuta cy'inzu gifite irangi ry'umuhondo gishushanyijeho ingorofani, isuka ndetse n'umwiko, byifashishwa n'abana bari kwiga barebeye ku mashusho.

Udutabo dutatu twifashishwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke basomerwa n'ababyeyi cyangwa se abarimu babo kugira ngo babongerere ubumenyi bwo gusoma no kumva inkuru.

Inyubako zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, imbere yabyo hashinze ibyuma biriho imyicungo abana bicungaho iyo bagiye kuruhuka.

Icyumba kinini kirimo ibikinisho bigiye bitandukanye, biri mu mabara agiye atandukanye, kifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza.

Umwarimu wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, utebeje, imbere ye hari ameza arambitseho igitabo, arimo arigisha abanyeshuri isomo ry'ubutabire.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya, guca imirongo ndetse no guca uruziga. Harimo amarati, keryo, gome ndetse na kompa.

Akabati kariho utudobo turi mu mabara atandukanye, harimo utwa purastike ndetse n'utw'ibyuma, harimo udukoresho twifashishwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke.

Icyapa kinini cy'umuhondo kigaragaza igihe ikiganiro cy'abana bato n'imiryango yabo kibera, isaha ndetse n'umunsi na radiyo gicaho ariyo radiyo Rwanda.

Ikirango kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru cya REB, kizwiho kugenzura amashuri y'ibanze ndetse no gukurikirana ibikorwa byayo.

Ubikoresho birambitse hamwe byifashishwa n'abanyeshuri, harimo amarati abafasha guca imirongo, kereyo ibafasha gushushanya ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'akandi gakoresho kabafasha gusiba ibyo bashushanyije nabi.

inyubako nyinshi z'amashuri zigiye zitandukanye, zubakishije amatafari ahiye, zifite imbuganga ngari, iteyemo umucaca ndetse n'igiti kinini, gifite amashami maremare.

Ikigo cy'ishuri kirimo inyubako nini kigabanyijemo ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye, harimo abana bane bahetse udukapu mu mugongo turimo amakaye ndetse n'amakaramu, imbere yabo hari abarimu babiri bambaye amataburiya y'umweru.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho, witeze igitambaro cy'umuhondo mu mutw,e atereye isahani y'ibiryo arimo aragaburira umwana we, undi we ateruye isahani yicaye ku ntebe, zirebana.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri y'ibanze bigiye bikoze mu biti harimo: ingofero ziboshye neza, uburoso bwo gusiga irangi, nanjoro, isuka ndetse n'umweyo ukubura.

Ameza manini, atukura, arambitseho ibitabo bitanu bitandukanye, byifashishwa mu mashuri abanza, buri kimwe kiriho umwaka agomba kuba yigamo kugira ngo agikoreshe.

Amarate atatu, compe ebyiri na kereyo yifashishwa mu gushushanya ndetse na gome yifashishwa mu gusiba, birambitse ahantu hamwe ndetse hari n'igikoresho bibikwamo.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke tugiye turiho imibare ndetse turi mu mabara agiye atandukanye twifashishwa n'abo bana mu kumenya kubara ndetse no gusoma.

Ibikoresho bine izwi ku izina ry'amarati, byifashishwa n'abanyeshuri mu guca imirongo ndetse n'uruziga, bibiri muri byo biri mu bwoko bwa mpande eshatu, indi iri mu bwoko bw'urukiramende, indi imeze nk'uruziga rufunze.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana bicaye bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, imbere yabo hari umwarimu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru urimo kubasomera, mu imbere mu ishuri harimo akabati karimo ibitabo basomeramo.

Inyubako z'ishuri ebyiri, zirebana zubakishije amatafari ahiye, zizengurutse n'ubusitani buriho indabyo, hari icyapa cyerekana aho iryo shuri riherereye.

Urukuta runini rw'ishuri hariho icyapa kinini gisize irange ry'umweru, hagiye hariho indangagaciro ndetse na kirazira, amahame y'intore ndetse n'ikirango k'iryo shuri rya Karangazi.

Icyumba cy'ishuri gikoraniyemo abana batandukanye, buri munyeshuri yicaye ku ntebe ye, imbere ye hari ikaramu n'urupapuro, imbere yabo ahagaze umwarimu uri kugenda abasomera ibyo bandika.

Ibishushanyo byifashishwa n'abana bo mu mashuri y'incuke, harimo ibikapu byo guheka mu mugongo, amarati yifashishwa mu guca imirongo, kereyo yo gushushanya, ikayi bandikamo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako nini y'ishuri igeretse, ifite igikuta gishushanyijeho udukinisho tw'abana tugiye dutandukanye, imbere yayo hashinze igikoresho kinini cyifashishwa n'abana mu kwicundaho.

Icyumba kinini cy'ishuri, cyifashishwa n'abana bo mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza, kigiye kirimo ibishushanyo ndetse n'ibikinisho, bifasha abo bana kwiyungura ubumenyi.

Inyubako nini ifite ibati ry'ubururu, imbere yayo hari intebe ndetse hari n'igiti kinini kirekire gifite amashami, mu mbuga yayo ni ngari harunze itaka ryinshi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Bamwe bicaye ku ntebe ziteye mu mucaca abandi barahagaze bakikijwe n'ibiti bigiye biteye aho ngaho.

Sale nini yifashishwa ku bigo by'amashuri, harimo ameza manini agiye azengurutseho abana bambaye impuzankano, hateretseho amabasi arimo ibiryo barimo kwarura babirya.

Urukuta runini rusize irangi ry'icyatsi, ruriho amagambo yandikishije ibara ryumweru, rwinjira mu kigo cy'ishuri cya Rukomo higiramo abana bagiye batandukanye.

Amarembo manini yinjira mu kigo cya TTC Matimba afite urugi rukoresheje ibyuma, mu imbere hagiye harimo ubusitani ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye birebire.

Urubyiruko rwiganjemo abasore ndetse n'inkumi, bateraniye hamwe bahagaze kurongo, bambaye imipira y'icyatsi, imbere yabo hateye intebe zicayeho ban bo mu nzego zigiye zitandukanye, harimo RIB, polisi, gisirikare, ndetse n'izindi nzego.

Umugore ahagaze imbere yabanyeshuri bambaye impuzankano bicaye. Umwe muri bo arahagaze arimo aratanga igitekerezo, abandi bamuteze amatwi.

Icyumba cy'ishuri, kirimo abana b'abanyeshuri, bagiye batandukanye. Harimo abakobwa, ndetse n'abahungu, bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika ibyo babahaye.

Abana b'abanyeshuri, b'abakobwa, bambaye impuzankano zitandukanye, biga mu bigo bitandukanye, barimo kwifotoza bishimye. Inyuma yabo hari ibiti binini, bifite amashami manini.

Icyumba cy'ishuri giteraniyemo abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga bizwi ku izina rya komputa.

Abakobwa bambaye impuzankano bicaye ku ntebe mu cyumba cy'ishuri bambaye n'udupfukamunwa bafite amakayi ndetse n'amakaramu barimo kwandika.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe imbere yabo hari amakayi barimo kwandikamo ibyo mwarimu wabo abahereza, ahagaze imbere ku kibaho yambaye itaburiya y'umweru arimo kwandika.

Akazu gato kariho imiryango ibiri gakikijwe n'abagabo benshi bambaye amajire ndetse n'ingofero by'ubwubatsi, imbere yayo hariho ikigega.

Umunyeshuri uhagaze mu ishuri imbere mu kibaho, cyanditseho amagambo arimo asobanurira bagenzi be, yambaye umwambaro w'ishuri: ishati y'umweru n'ijipo ya kake.

Abantu benshi batandukanye, harimo abasore ndetse n'inkumi, bambaye amakanzu maremare y'imikara, bafashe ingofero mu ntoki, barimo kwishimira ko bashoje amashuri yabo.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye bicaye ku ntebe imbere yabo hagiye hari ameza arambitseho ibizamini barimo gukora ndetse n'ibitabo barimo gukoreramo.

Urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, bakoraniye hamwe mu ishuri, bicaye ku ntebe zigezweho zifite akamezaeza kandikirwaho, bafite amakaye n'amakaramu yo kwandikaho ibyo bize.

Intebe eshatu zisize irangi ry'ubururu ziri mu bwoko bwa palasitike, zifashishwa n'abanyeshuri, iyo bari kwiga bafite aho bicara ndetse n'aho barambika ikayi bandikaho.

Inyubako nini ya sitade hahagazemo abantu benshi bambaye amakanzu maremare bazamuye ingofero bari guseka bishimira ko barangije amashuri.

Icyumba k'ishuri cya ka ha zeru rimwe gifite ibirahure bibonerana. Mo imbere hateyemo ameza ndetse n'intebe, hicayemo abanyeshuri barimo gukurikirana amasomo.

Abantu benshi bicaye hamwe harimo abagore n'abagabo, ndetse n'urubyiruko bambaye amakarita yabo mu ijosi, imbere yabo hateretse ameza atatseho igitambaro cy'umukara hagiye hateretseho amazi.

Igikuta cy'icyatsi cyijimye hometseho urupapuro ruriho amarange agiye atandukanye kandi acucitse, harimo ay'umuhondo, ubururu, icyatsi n'umutuku.

Icyumba kinini cy'ishuri, harimo intebe nyinshi zitandukanye z'ubururu zigezweho, zifashishwa n'abanyeshuri mu kuzicaraho ,bakanazandikiraho kuko zifite aho umuntu arambika ikayi ari kwandika.

Abasore b'abanyeshuri bahagaze bazengurutse ameza, hariho ibikoresho byifashisha biga imbere yabo hari umugabo ufite amagufa y'inyamanswa uri kubigisha.

Icyumba kinini k'inama giteraniyemo abantu bagiye batandukanye abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho ji ndetse n'amazi barimo kunywa.

Icyumba kinini cy'ishuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyenda itandukanye, bamwe baricaye abandi bahagaze, barimo barandika ibyo bahawe.

Idirishya riri ku cyumba cy'ishuri hariho icyapa cyandikishije intoki, kiri ku rupapuro cyanditseho yu ara zeru icyenda, magana atatu na rimwe ririmo ibirahure bibonerana.

Udukoresho tugiye dutandukanye, turi mu moko agiye atandukanye, twabumbwe hakoreshejwe itaka rizwi ku izina ry'ibumba, twifashishwa mu rugo kubikamo indabyo ndetse n'inkono zo gutekeramo.